Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ifite isakaro ry'umutuku, ifite ibirango byerekana ko ari ibitaro by'a akarere ka Shyira.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ikorerwamo ikigo nderabuzima cya Shagasha aho imbere yayo ku kabaraza hicaye abantu harimo abagore n'abana.

Ihuriro ry'abantu barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda yambarwa mu gihe bari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bose bari kugendera hamwe mu myitozo ngororamubiri.